Akazu k'umutuku kariho ibirango bya Airtel. Harimo udukoresho dutandukanye. Inyuma haparitse imodoka ndetse impande hari inzu.

Inzu isize irangi ry'umweru, imbere hari akandi gatoya kariho icyapa, ndetse n'indabo, zihateretse.

Abagabo bambaye neza bahagaze bafite ibyapa byamamaza bisa umutuku, handitsemo amagambo y'umweru bya Airtel n'inyuma yabo hari ikindi bahagazeho.

Akazu gasize irangi ry'umweru, hariho ibirango bya MTN na banke Ekwiti, hagaze umugore ufite umutaka mu ntoki, inyuma amazu y'ubucuruzi.

Abagabo batatu batonze umurongo imbere y'akazu gasize irange ry'umuhondo hariho ibirango bya MTN, TIGO na Eyateri, hashushanyijeho telefone ndetse mu mabara y'ubururu n'umutuku n'umukara.

Akazu gasize irangi ry'umuhondo, hariho ibirango bya MTN, hahagazemo umugore wambaye isaha ku kaboko n'undi uri gushaka serivisi zijyanye n'ibyo akora, iruhande hari igiti.

Umutaka uriho ibirango bya Airtel, iruhande hari umuhanda munini wa kaburimbo, inyuma hari inyubako yanditseho amagambo y'icyongereza, isize' irangi ry'umuhondo ndetse n'ibiti n'insinga z'amashanyarazi mu kirere.

Akazu kariho ibirango bya MTN, gasize ibara ry'umuhondo ndetse n'akandi gasa umutuku, kariho ibirango bya Eyateli, inyuma hari ibiti.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro bisa karuvati n'ishati y'umweru yicaye ku ntebe y'umukara impande ye hateretse uducupa tw'amazi.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe, imbere yabo hari umugabo uri kubaganiriza. Bicaye munsi y'inzu isize amarange ndetse impande hari ishyamba.

Abagabo babiri bambaye amakote y'umukara, amashati y'umweru na karuvati. Umwe ari kumuhereza impapuro, inyuma hari igikuta kimanitseho ifoto.

Abantu batatu bahagaze bari kuganira impande yabo harambitse intebe n'ameza, umwe afite ikayi mu ntoki bari mu nyubako isize irange ry'umuhondo.

Umusaza washyize amadarubindi mu gahanga, afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, impande ye hicaye abaturage benshi bari kumva ibyo ababwira. Hari n'amadirishya amanitseho rido.

Ahantu hacururizwa imitako itandukanye hatatse ibitambaro biri mu mabara y'ubururu, icyatsi n'umuhondo n'umweru asakaje amabati.

Abantu batandatu harimo umugore umwe bahagaze mu gahanda k'amabuye, imbere yabo hari ubusitani bw'indabo, inyuma inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje n'amabati.

Abahinzi bishyize hamwe benshi, bahagaze mu murima w'amatunda, bahinze. Inyuma hari ibiti ndetse n'umusozi muremure.

Abantu bahagaze ku murongo utambitse imbere yabo hari imifuka isa umweru n'imbabura zihateretse inyuma hari inzu yubakishije amabati y'ubururu, urutoki ndetse n'ibiti.

Inzu isize irangi ry'umweru n'icyatsi isakaje amabati, y'ubururu impande hari ibigega bibiri bifata amazi by'umukara. Irazitiye inyuma hari icyapa, ndetse n'ibiti.

Akabari karimo ibinyobwa by'amoko atandukanye biri mu macupa, ari mu mabara y'icyatsi, umutuku, umuhondo, ndetse n'umweru, Hari na televiziyo.

Akabari gacuruza inzoga z'ubwoko butandukanye, ziri mu duturuwari mo imbere harimo hamanitse televiziyo ndetse na ferigo.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa by'inzoga bigaragara ko ari akabari, impande hari iyindi isakaje amabati y'umutuku, izitijwe urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Akabari gacuruza inzoga ndetse harimo n'abantu bari kuzinywa, harimo intebe zo kwicaramo ndetse n'amatara ari kwaka. Hasize irange ry'umutuku.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho byinshi, amaji yo kunywa, amavuta yo guteka n'ibiribwa.

Umucuruzi wambaye ikanzu y'umukara n'agatambaro mu ijosi ahagaze mu iduka ririmo ibikoresho bitandukanye amavuta yo kwisiga, imibavu ndetse n'imisatsi.

Inyubako isize irangi ry'umweru, isakaje amabati y'umutuku. Ifite uruzitiro rw'amatafari ahiye, impande hari indabo n'igiti ndetse n'umuntu uhagaze imbere y'umuryango.

Iduka rimanitsemo ibitenge by'ubwoko bwinshi biri mabara atandukanye, mo imbere hahagazemo abantu benshi, baje guhaha ndetse n'abacuruzi.

Iduka ricuruza imyenda hari imanitse n'indi iri hasi, harimo amakanzu, amashati, imipira, supanete, amakote ndetse n'inkweto.

Iduka ricuruza ibikoresho by'amatelefone, ndetse hari icyapa kigaragaza ko bakanika bafite ibirahure ndetse byazo, ndetse poshete na batiri harimo intebe y'umweru.

Umugore w'umucuruzi uhagaze mu iduka ari guseka. Yambaye ishati irimo uturabo. Inyuma ye akabati karimo ibikoresho bitandukanye ndetse hateretsemo n'amakarito.

Umucuruzi wambaye amadarubindi n'umupira n'itaburiya imbere, ahagaze mu iduka acuruza imyenda y'abana iri mu mabara atandukanye, icyatsi, umutuku, umweru n'andi.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibishushanyo by'ubwoko bw'ibicuruzwa bacuruza. Imbere yayo hari kandagira ukarabe ndetse n'indobo ihateretse.

Umugore wambaye ikote afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa mbwirwaruhame, inyuma ye hicaye abantu benshi, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Umugabo wambaye ikanzu y'umweru n'umutuku n'umukara ndetse n'ingofero y'iroza afite inkoni mu ntoki. Inyuma ye hari amazu ndetse n'ibiti.

Abagabo bambaye amadarubindi n'abandi bambaye amakote n'amashati bafite amakayi n'ibitabo mu ntoki, bicaye ku ntebe zisa ubururu.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye, basakaza amabati imbere haratatse ndetse hari umusaraba. Hicayemo abakirisitu, batandukanye ku ntebe z'ibiti.

Hoteri nini isakaje amabati y'ubururu isize irangi ry'umuhondo imbere yayo hari pisine n'intebe abantu bicaraho n'indabyo.

Pisine nini impande yaho hari intebe zo kwicaraho n'ameza zitwikiriye, hari indabyo ndetse n'ibiti byinshi n'inyubako.

Icyumba cyo muri hoteri gisize irange ry'umuhondo, amarido arafunguye. Hariho igitanda kiriho matora ishasheho amashuka y'umweru ndetse harimo n'intebe.

Hoteri nini, imbere hari indabyo z'amoko atandukanye, pisine ndetse n'ameza n'intebe byo kwicaraho, hirya hari umusozi uriho amashyamba.

Abantu benshi bicaye mu icyumba cya hoteri kirimo imitako cy'ubakishije ibirahure ibirahuri, hanze haparitse amamodoka ndetse n'amazu menshi.

Ahantu hateretse ameza n'intebe byo kwicaraho, hejuru hariho isahane iriho ibyo kurya ndetse n'amacupa arimo ibyo kunywa hatatseho n'indabo.

Umugore wambaye amadarubindi yicaye mu cyumba kirimo imitako itandukanye, imbere ye hari ameza ariho ururabo.

Abagabo benshi bambaye amakote, karuvati n'amapantaro bahagaze imbere y'inyubako isize irangi ry'umuhondo, yubakishije amatafari ahiye, umuryango urafunguye.

Icyumba cya hoteli gisize irange ry'umuhondo, mo imbere harimo igitanda kiriho matola ishasheho amashuka y'umweru ndetse harambitseho n'imisego, hamanitsemo n'inzitiramibu.

Ikibuga kinini kiriho pisine, ndetse n'intebe bicaraho bavuye koga n'umutaka ukingira abantu izuba. Hakurya hari igishanga kirimo ibihingwa n'ibiti by'amoko atandukanye.

Icyumba gisize irange ry'umweru hamanitsemo indorerwamo harimo igitanda gifashe ho matora n'amashuka asa umweruru hateretsemo intebe n'ameza.

Inzu igeretse isize irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya menshi n'umuryango. Imbere yayo hari ubusitani bw'indabyo ndetse hejuru mu kirere kirasa nabi.

Isoko riri mu kibuga kinini cyane, hashinzemo ibiti bacuruza imyenda y'ubwoko butandukanye. Hahagazemo umuntu, ndetse n'amazu ku ruhande.

Isoko rinini hari urujya n'uruza rw'abantu benshi ndetse n'abana batoya. Hahagaze umucuruzi uri mu myenda imwe iramanitse indi irazinze, impande haparitse imodoka.

Abagore babiri bahagaze bari kuganira imbere y'isoko, umwe ateretse igikapu hasi inyuma hari ibicuruzwa bitandukanye urujya n'uruza rw'abantu ndetse haparitse igare.

IIduka risize irangi ry'umweru ryanditseho n'amagambo y'umukara. Ricuruza ibintu bitandukanye, harimo: ibikapu n'imyenda. Hari n'umuntu uhunamye.

Isoko rinini hari urujya n'uruza rw'abantu benshi. Abaguzi n'abagurisha bafite ibiribwa mu mabase, harimo: ibitunguru, imyumbati n'imboga. Iruhande haparitse imodoka ndetse n'inyubako.

Ikibuga k'isoko hariho hari abantu benshi bambaye udupfukamunwa, barambitse hasi imifuka hariho ibitunguru na karoti bari gucuruza. Hirya hari urujya n'uruza rw'abantu n'amazu.

Umugore uhetse umwana mu mugongo, ahagaze mu isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu benshi ndetse n'ibicuruzwa bimanitse.

Iduka ricuruza ibitenge biramanitse hejuru n'impande ku nkuta, biri mabara menshi atandukanye umutuku, icyatsi, ubururu, umweru, ndetse n'umucuruzi wicaye ku ntebe.

Imifuka myinshi irambitse hasi isa umweru, harimo n'utubara tw'umuhondo n'umutuku n'icyatsi. Hejuru yaho hateretse imyeyo myinshi ndetse n'akayunguruzo.

Umugore w'umuhinzi wambaye ishati y'igitenge n'agapfukamunwa, yikoreye tungurusumu ku kumutwe n'izindi afashe mu ntoki, inyuma ye hari inzu ifunze umuryango.

Icyumba kinini, kirimo intebe n'ameza n'abantu bicayeho n'imitako itandukanye ndetse amatara, arimo kwaka.

Icyumba kinini, gisize irangi ry'umukara, amatara ari kwaka. Harimo intebe zisa umweru ndetse n'ameza, atatseho udutambaro.

Ahantu hatatse neza, hari intebe, zo kwicaraho z'umweru, n'ameza mo imbere mu nzu hari amatara yaka, ndetse n'ibiti ku ruhande.

Umumotari utwaye ipikipiki ahetseho umugenzi mu muhanda wa kaburimbo, impande hari icyapa cyanditseho amagambo hahagaze abagabo babiri, imbere y'amazu y'ubucuruzi.

Umumotari wambaye ipantaro n'umupira, ijile y'icyatsi n'umuhondo na kaske atwaye ipikipiki, impande hahagaze umwana, hari indabyo ndetse n'urugi runini.

Umumotari uhagaze impande ya moto arikumwe n'umusore wambaye amadarubindi, ishati n'ipantaro inyuma hari utubati.

Umunyonzi ufite igare ahetseho umugenzi wambaye ikanzu, impande y'umuhanda hari indabo ndetse n'inzu zo guturamo, inyuma yazo, ibiti.

Umushoferi utwaye imodoka wambaye ishati y'umuhondo n'ipantaro y'umukara, impande hari ibiti ndetse n'inzu.

Umuhanda munini wa kaburimbo, harimo ipikipiki n'umumotari uyitwaye, abanyonzi batwaye amagare, impande y'umuhanda hari indabo n'inyubako.

Umugore wambaye amadarubindi, afite ibisuko bisa shokora ku mutwe, atwaye imodoka isa ubururu, impande y'umuhanda hari amazu, ari ku murongo asize irangi ry'umuhondo.

Umumotari utwaye ipikipiki ahetseho umugenzi mu muhanda munini wa kaburimbo, imbere yabo hari icyapa gisize irange ry'ubururu kiyobora ibinyabiziga ndetse n'inzu z'ubucuruzi ku ruhande.